Amazi ni isoko y'ubuzima bwiza kandi amazi afasha muri byinshi, mu isuku ndetse no mu buzima kugira ngo tubashe kubaho neza, abana bagiye kuvoma ku ipombero aho umwe aba apomba undi yashyizeho injerekani.

Gukaraba intoki ni kimwe mu birinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda ndetse kandi bikagituma n'isuku yiyongera. Umwana ari gukaraba, ari gukaraba ku mazi, umwana muto w'imyaka nk'umunani, wambaye imyenda y'umutuku n'ijipo, akaba amazi kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Abadamu bishyize hamwe bakora itsinda ibyo tuzi cyane nka koperative kugira ngo barwanye cyangwa se birinde indwara z'ubuzima bwa hato na hato, abadamu baba baganira rwose umwe ajya imbere avuga ku bijyanye n'ubuzima bwiza.

Umunsi wahariwe kwiga ku ndwara zijyanye n'izo mu bwonko, uyu munsi witabiriwe cyane n'abagore aho bagiye baganira ku bintu bitandukanye bijyanye n'ubwonko, uyu munsi ni umunsi ukwiye kwitabirwa n'ingeri zose harimo nk'abadamu n'abagabo.

Inama y'ibijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe cyangwa se ibibazo byo mu bwonko, yitabiriwe cyane n'abarenga abantu mirongo itanu, aho higanjemo abagore benshi ndetse hakarimo n'abashinzwe umutekano tuzwi ku izina ry'abapolisi.

Ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe cyangwa se ibibazo bijyanye no mu bwonko, bikunze kugaragara cyane cyane ku Isi hose, umwana ari kurira bigaragara ko afite ibibazo, hari abantu benshi bari kumwe n'ababyeyi babo, ubona ko ari mu kavuyo kenshi bajagaraye.

Ku bijyanye n'isukura ry'amenyo cyangwa se no kubungabunga ubuzima bw'amenyo, hari ututi dukoreshwa, kugira ngo ubashe kuvanamo imyanda mu menyo, n'utundi tuntu tumeze nk'utugozi wabasha gukoresha, kugira ngo amenyo yawe uyasukure, uyu musore arimo arabikoresha neza.

Ivuriro ry'ibijyanye n'amenyo, bakora byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima no kubungabunga ubuzima bw'amenyo, harimo nko kuyakura, kuyahoma, kuyoza ndetse no kuvanamo imyanda itandukanye iba yaragiye gufata ku menyo, habonekamo ibyuma bigiye bitandukanye bifasha muri ubwo buvuzi bw'amenyo.

Kwa muganga cyangwa se ku mavuriro, haba hagiye harimo abaganga abo dukunze kwita abaforomo bita kuba basheshe akanguyehe cyangwa se kubakuze cyane kugira ngo babashe kubaha imiti no kumenya igihe bayifatira neza.

Turakangurira abanyarwanda bose kwitabira umunsi wahariwe kurwanya indwara ziterwa n'amasukari menshi zizwi ku izina rya diyabete, aho bigishwa ibitandukanye harimo no kwirinda izo ndwara ndetse no kubazifite uburyo bukwiye kugira ngo babashe kugabanya ndetse no kuba bafata ingamba zo kwirinda ndetse no kugabanya iyo diyabete.

Ivuriro bakunze kwitah nko kwa muganga habamo ibikoresho bijyanye n'ubuvuzi aho haba harimo igitanda umurwayi abasha kuryamaho, maze umuvura cyangwa se umuganga akabasha kumwitaho neza, hari imashini muganga abasha kureberamo kugira ngo asuzume umurwayi.

Pediatric center, ni ivuriro rijyanye no kwita ku bana batoya, aho buri muntu wese yazana abana, hari amasaha aba afunzwe, iyo usanze yanditseho stop, bishatse kuvuga ko ari uguhagarara, ariko aha ngaha harafunze.

Aho abarwayi barwarira bakunze kwita mu bitaro, haba harimo ibitanda bitandukanye, buri murwayi aba afite igitanda cye, hagati y'igitanda n'ikindi hagiye harimo rido, harimo ibikoresho byo kwa muganga abaganga bagenda bifashisha mu kugira ngo bavure abarwayi.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi cyangwag se CENTRE DE SANTE GISENYI, iherereye ahagana ku muhanda rwose, ikikijwe n'ibiti byinshi ndetse kandi yakira abantu b'ingeri zitandukanye abagabo, abana, ababyeyi.

Umugabo yicaye ahavurirwa bigaragara ko ari aho bakoresha ingingo ubugororangingo kugira ngo umuntu abashe kurambura amagufwa; amagufwa kugira ngo agororoke cyangwa se gukora ubugororangingo ni siporo.

Kugorora ingingo bizwi cyane nko gukora siporo ni byiza mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, aho bifasha kugorora ingingo, kugorora amagufwa bito tukagenda twirinda indwara ziterwa no kudakora siporo.

Muganga uvura ibijyanye n'ingingo ari gusuzuma mu ivi ry'umurwayi, amubwira ati "Siporo ni nziza ku buzima kuko ari zo zituma ingingo zigororoka." Mugerageze mukore siporo kuko siporo ni nziza, zituma ingingo zigororoka bityo tukirinda amavunane.

Muganga uvura amenyo ari kuvura umwana, umwana yasamye muganga ari kumurika kugira ngo abashe kureba ku bijyanye n'amenyo ye ahari ibibazo, abambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde niba hari ibindi byabanduza kwa muganga.

Hydraling Serum ni amavuta meza cyane akorwa mu bimera, aya mavuta akunzwe gukoreshwa cyane ku bijyanye n'uruhu, aho avura indwara z'uruhu, harimo nk'ibiheri, gusatagurika, kumagara. Aya mavuta wayabona mu ahatangirwa imiti hose.

Forever garlic thyme ni imiti ikorerwa mu bimera gakondo, aho ikun gukoreshwa cyane kugira ngo woroshye urwungano ngogozi ndetse ubashe kumera neza. Uyu muti ni umuti wasanga ahatangirwa imiti hose.

Ibimera byinshi bizwiho ko bikora imiti kandi ibyinshi biba bisi icyatsi, bizwiho nko gukoreshwa cyane ku ndwara z'uruhu aho mubanza kubisekura mukoresheje umuhini n'isekuru, mukabicucuma kugira ngo mubone agafu maze mube mwagakoresha.

Imiti myinshi iva mu bimera aho basarura ibimera maze bakabishyira, mu tuntu dutandukanye tubasha gutuma babika neza, maze bakayisukura ndetse bakayikoresha neza kugira ngo ivemo imiti.